Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano bari kuri robine bamwe bari gukaraba ndetse bambaye imyenda ifite ibara rya kacye, hari indobo zihateretse zifite ibara ry'umuhondo, hirya yabo hari ibiti ndetse n'ibyatsi.

Abantu bahagaze ku mayesikariye, harimo abambaye amataburiya afite ibara ry'ubururu y'amaboko magufi kandi inyuma yabo hari ibyapa bigiye bitandukanye, harimo igifite ibara ry'ubururu, icy'umweru ndetse n'icy'umuhondo. Hari n'umuntu wicaye uhetse igikapu mu mugongo gifite ibara ry'umukara.

Umuganga w'umugore wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru ndetse iruhande rwe hari abandi bagore bahicaye, harimo uwo yaziritse igikoresho bakoresha bapima umuvuduko w'amaraso ku kuboko kw'ibumoso ndetse yegeranye n'undi wambaye igitenge uteze agatambaro mu mutwe kandi hirya yabo hari amazu n'ibyatsi.

Abana benshi baje kw'ivomero, bari kuvoma mazi ndetse hirya yabo hari imyaka myinshi itewe mu muririma igiye itandukanye kandi muri bo harimo uwambaye agapira ga bafite ibara ry'umutuku n'ipantaro y'umukara.

Abantu bahagaze harimo abagore n'abagabo bombi bakora muri serivisi z'ubuvuzi, inyuma yabo hari igikuta cyanditseho amagambo avuga ngo:" Uburyo bwo gukumira no kurwanya ugutwita kw'abangavu." Imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa.

Umwana wambaye agapira k'amaboko magufi kandi yambaye ikabutura ifite ibara rya pinki, imbere ye hari injerekani zihateretse kandi ari kuvomera mu njerekani ifite ibara ry'umuhondo, inyuma ye hari ibyatsi hamwe n'insina.

Abana barambuye ibiganza byabo babihuriza kuri robine imwe. Harimo abambaye imyenda ifite ibara rya kake ndetse hari n'uwambaye umupira ufite ibara ry'umutuku kandi yegeranye n'undi wambaye umupira w'umukara ufite ingofero irimo ibara ry'ubururu.

Abaganga bicaye hari ufashe urutoki rw'umukecuru uteze agatambaro mu mutwe kandi hari n'undi wambaye ikote ry'umukara, wambaye n'agatambaro mu mutwe gafite ibara ry'umweru, hirya yabo hari umugabo uhagaze wambaye ijire y'icyatsi.

Umwana uri mu iriba ari kuvoma ndetse hari undi uripfukamye hejuru wunamye hirya yabo hari abana bambaye impuzankano zifite ibara ry'ubururu, ndetse izindi zifite ibara rya kake kandi hari ibiti ndetse n'ibyatsi.

Inshinge zikoreshwa kwa muganga batera abantu zifite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, ziteretse ku meza kandi iruhande rwazo hari agacupa kaba karimo umuti...

Abantu bicaye ku ntebe ziteye mu byatsi ndetse imbere yabo hari imodoka ihagaritse, inyuma yabo hari inzu isize irangi ry'ubururu kandi mu ibaraza ryayo hahagaze abantu. Hari n'amagambo yanditse imbere avuga ngo gira ubuzima.

Umwana uhagaze, yambaye agashati kadodesheje mu gitenge ndetse afite ibinika mu kuboko kw'iburyo, ifite ibara ry'ubururu. Iruhande rwe, hari undi muntu wunamye, yambaye isengeri y'umukara n'ikabutura ifite ibara ry'umuhondo. Hirya yabo, hari urugi rw'igiti rumanitseho igitenge.

Abana babiri bari ku ivomero hari uri kuvomera indobo zifite ibara ry'umweru yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'icyatsi n'umweru, inyuma ye hari undi wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu kandi hirya yaho hari ibihuru.

Umugabo wambaye amarinete ndetse n'ijire ifite ibara ry'umukara, mu mugongo handitsemo amagambo ari mu ibara ry'umweru hirya ye hari umugore ufite ibisuko ku mutwe ndetse yambaye ihena n'isaha kuboko kw'iburyo imbere yabo hari ameza ateretseho udukarito dufite amabara atandukanye.

Abantu bahagaze bari gukoma mu mashyi ndetse bambaye baji mu ijosi kandi harimo umugore wambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso, inyuma yabo hari inyubako yanditseho ikigo nderabuzima cya Mayange.

Umuntu wambaye inkweto zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umukara, yambaye agapira k'amaboko magufi ari kudaha amazi atemba ayashyira mu ijerekani, hakurya hari umwana wambaye inkweto z'icyatsi kandi hari n'ibyatsi.

Abagore bicaye ku murongo bakikiye abana, harimo uwambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umutuku, yateruye umwana we wambaye amasogisi y'umweru, kandi inyuma yabo hari igikuta cyubakisheje amatafari ahiye, hari ahasize irangi ry'umweru n'umukara.

Abantu bahagaze mu byatsi ndetse harimo abambaye udupira tw'amaboko magufi dufite ibara ry'umweru, kandi hari umugabo uhagaze ku ruhande rw'ibumoso wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara rya pinki ndetse n'ipantaro y'umukara.

Abana benshi bazamuye amaboko, bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umuhondo kandi inyuma yabo hari abantu bakuru bakora mu buzima, harimo umuzungu wambaye ingofero y'umukara ndetse n'amarinete kandi hari n'inzugi zisize irangi ry'ubururu.

Umugabo wambaye ijire ifite ibara ry'umukara, mu mugongo handitsemo amagambo y'icyongereza ari mu ibara ry'umweru. Yambaye ishati y'amaboko ndetse n'amarinete kandi hirya ye hari umugore wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'icyatsi ndetse n'iherena ku gutwi kandi no ku kuboko kw'iburyo yambayeho isaha ifite ibara ry'umweru. Imbere yabo hari ameza ateretseho udukarito.

Abana basutamye ibiganza byabo babiteze ku ipombo iri kuzana amazi, umwe yambaye agapira k'amabako magufi gafite ibara ry'umutuku kandi undi yambaye umwenda urimo ibara ry'icyatsi, umweru, hirya yabo hari andi mazi ari gutemba.

Umuhungu uri guseka yashikamije amaboko ye ku ijerekani imuri imbere ndetse yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'amaboko magufi, ari kuri robine ndetse hirya ye hari ibyatsi hamwe n'amazu.

Inyubako isakashije amabati afite ibara ry'umutuku kandi ifite inzugi n'amadirishya y'ibirahure, isize irangi ry'umweru, hakurya yayo hari andi mazu menshi ndetse n'ibyatsi hari abantu bari kugenda ku kiraro gihari kandi hari n'ama esikariye.

Umugabo uri guseka, amaboko ye yashikamishije ku njerekani yaje kuvomeramo, imbere ye hari robine kandi, inyuma ye hari ibyatsi, by'amoko agiye atandukanye. Ndetse yambaye ipantaro y'umukara, n'ishati y'amaboko magufi.

Abaganga bahagaze, harimo abagabo ndetse n'abagore, bamwe bambaye amataburiya afite ibara ry'umweru kandi hari n'umugore wambaye ijipo ifite ibara rya pinki ndetse n'undi begeranye wambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku.

Abana bari ku ivomero harimo uwambaye ikabutura y'umukara ndetse n'agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umuhondo, hirya ye hari umugore wambaye ikanzu ndetse mu mutwe atezemo agatambaro gafite ibara ry'ubururu.

Abana bambaye impuzankano bafite ibikombe barikunywa kandi hari uri kuvoma ku kigega, inyuma y'abo hari ibiti by'amoko atandukanye ndetse n'insina kandi hari n'amabuye.

Abagore bahagaze harimo uwambaye ijiri ry'icyatsi kandi hari n'undi wambaye ikanzu y'umutuku n'agakote k'umukara. Inyuma yabo hari inzu ifite amadirishya y'ibirahure kandi yubakishije amatafari ahiye.

Umugabo n'umugore bahagaze, bose bafite mu biganza byabo icyapa cyanditsweho amagambo avuga ngo ''Visit Rwanda'' umugabo yambaye amarinete ndetse na kostime, kandi na karuvati, umugore yambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'amaboko magufi gafite ibara risa n'ivu.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umukara ndetse mu mutwe harimo ingofero ifite ibara rya kake, hari umuganga uri iburyo bwe, ari kumutera urushinge ku kuboko kw'iburyo kandi inyuma yabo hari abandi bantu bicaye.

Umwana usutamye imbere y'ipombo yatezeho ibiganza biri kujyamo amazi. Hirya ye hari injerekani zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'indi ifite ibara ry'ubururu, ipfundikije umupfundikizo w'umutuku. Kandi hari ibihuru biri hirya ndetse n'ibyatsi.

Abana bicaye bambaye udupira dufite ibara rya oranje, mu mugongo twanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, hari abantu bahagaze ndetse harimo uwambaye bote z'umukara kandi hari n'undi usutamye uri kubanyweshwa.

Abana bari guseka bararamye, bari gukaraba intoki ndetse iruhande rwabo hari umuntu uri kubasukira amazi ubunamye iruhande, hari uwambaye agapira gafite ibara rya pinki ndetse n'uwambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, inyuma yabo hari ibihuru.

Umwana wateze ikiganza kuri robine ye ari kunywa amazi kandi kuruhande rwe rw'ibumoso hariho uhetse igikapu gifite imishumi yumukara mu mugongo kandi yegeranye n'undi wambaye agashati k'amaboko magufi gafite ibara ry'icyatsi inyuma yabo hari ibiti.

Ababyeyi bafite abana, bamwe baricaye undi arahagaze, atereye umwana wambaye amasogisi y'umweru. Kandi iruhande rwabo hari umunyabuzima wambaye itaburiya ifite ibara ry'ubururu, hejuru yaho hari umunzani bagiye gukoresha bapima abana, kandi hirya yabo harigikuta.

Umuntu uteze agatambaro mu mutwe gafite ibara ry'umuhondo, umweru, n'ubururu, yambaye agapfukamunwa ndetse mo imbere yambariyemo agapira gafite ibara rya oranje, imbere ye hari imigozi myinshi igiye itandukanye.

Abana babiri umwe ari guseka kandi ari gukaraba intoki mu rwego rwo kugira isuku, hari uwo begeranye wambaye agashati k'amaboko magufi, afite igikombe gifite ibara ry'ubururu ari gusukira mugenzi we amazi.

Abagore bambaye imyenda itandukanye harimo uteza agatambaro mu mutwe gafite ibara rya kake, ndetse hari ameza abari hagati harimo abayafasheho, inyuma y'abo hari igikuta gishushanyijeho inzu, ibiti ndetse n'abantu.

Abantu bicaye mu ntebe z'umukara, bakikije ameza maremare ateretseho uducupa, telefone, amakaye ndetse na mudasobwa. Inyuma yabo hari amadirishya y'ibirahure asize irangi ry'ubururu. Kandi hari ifoto yometse ku gikuta.

Umwana wateze ibiganza kuri robine, ndetse hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru, umukara, na oranje, yambaye agapira k'amaboko gafite ibara ry'umutuku, inyuma ye hari ibyatsi.

Umugore wambaye ingofero mu mutwe ndetse n'umupira w'amaboko akenyeye n'igitenge, ari kuvomera injerekani afashe ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'izindi zihegereye, inyuma ye hari urutoki kumwe n'ubundi bwoko bugiye butandukanye bw'ibyatsi n'ibiti.

Abana batatu bambaye impuzankano bose bari kuri robine, bari gukaraba intoki ndetse buri wese imbere ye hari iyo ari gukarabiraho kandi inyuma yabo hari ibyatsi bigiye bitandukanye.

umugore w'umuzungu ufite mikoro mu kuboko kw'iburyo ndetse yambayeho n'agakoma, ukuboko kw'ibumoso yambayeho isaha kandi ikiganza cyako yagishyize mu gatuza, yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara risa n'ivu.

Abantu bicaye ku ntebe ziriho udutambaro tw'umweru bari mu ihema rifite ibara ry'umweru, icyatsi, umuhondo n'ubururu. Imbere yabo hari umugabo uhahagaze ufite mikoro kandi hirya y'ihema hari abantu bitwikiriye imitaka.

Abana bicaye imbere yabo hari ameza afite ibara rya kaki kandi hari umanitse urutoki wambaye umupira w'amaboko maremare udoze mu budodo, inyuma yabo hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye ndetse kiriho n'urubaho.

Abantu benshi bicaye ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, kandi harimo abakecuru, abagore, abana, kandi hirya yabo hari inzu i safashe amabati y'umutuku ndetse hari n'ibyatsi.

Umuntu wicaye ku ntebe y'umukara yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara rya beje, ndetse ahagana ku ijosi kariho ibara ry'umuhondo iruhande rwe hari umuganga wamwambitse igikoresho bakoresha bapima umuvuduko w'amaraso ndetse imbere y'uwo muganga hari mudasobwa.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara rya kacye ndetse iruhande rwe hari umuganga wambaye agapfukamunwa n'umupira w'umweru ndetse yambaye na ga, afite urushinge ari kurumutera ku kuboko kw'ibumoso.

Umuganga wambaye itaburiya ndetse n'uturindantoki bifite ibara ry'umweru kandi yambaye n'ishati y'amaboko, imbere ye hari umwana uhicaye wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, yahinnye ukuboko umuganga agiye kumutera urushinge ku kuboko ku ibumoso kandi hirya yabo hari abandi bantu benshi bicaye.

Umugore wicaye wambaye ishapure ndetse mu ntoki ze, afitemo igitabo kandi hari uwambaye ingofero n'agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara, ari guha umuti umwana bakikiye.

Abantu bicaye mu cyumba higanjemo ababyeyi bateruye abana ndetse hari n'abandi bahagaze kandi imbere hari umugore uteruye umwana, ukenyeye ibitenge ndetse ku kuboko kw'imoso yambayeho agakomo kandi mu biganza bye afashemo impapuro.

Abantu bicaye, imbere yabo hari uducupa tw'amazi ndetse hagiye hateretse ibindi bintu bitandukanye, hagati muri bo harimo kamera kandi imbere yabo hari abandi bahicaye harimo umugore wambaye ikanzu ifite ibara ry'umutuku.

Abana basutamye imbere y'ipombo batezeho ibiganza byabo byombi, biri kujyaho amazi, harimo uwambaye agapira gafite amaboko magufi k'ibara ry'umutuku kandi undi yambaye imyenda ifite ibara ry'umweru n'icyatsi, hirya yabo hari ibyatsi ndetse n'ibiti.

Abagore babiri bari ku ivomero, harimo uteze agatambaro mu mutwe gafite ibara rya pinki. Kandi hari undi uri kuvoma, wambaye agapira k'amaboko magufi, ndetse akenyeye igitenge kirimo ibara ry'umuhondo, umukara n'icyatsi. Imbere yabo hari injerekani zifite ibara ry'umuhondo, kandi hirya yabo hari ibiti, ibyatsi, hamwe n'insina.

Abantu bari ku ivomero, baje kuvoma amazi ndetse harimo abana n'umugabo wambaye ingofero, afite n'inkoni mu ntoki kandi inyuma yabo, hari ibyatsi.

Abaganga bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse mu mutwe, bambayemo udufire tw'umweru. Hari uwunamye wambaye agapfukamunwa, ari kureba mu kanwa k'umugabo wasamye, wambaye imyenda y'imweru, yicaye ku ntebe y'umutuku kandi yambaye n'ingofero ifite ibara ry'ubururu. Inyuma yabo hari abantu bahagaze.

Abantu bicaye harimo umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu kandi harimo n'umwana wambaye ishati y'amaboko maremare yegeranye nundi muntu wambaye agapira gafite ibara ry'umutuku, inyuma yabo hari ibikuta byubakishije amatafari ahiye kandi byometseho impapuro zigiye zitandukanye.

Abantu bicaye harimo umugabo wambaye ikote ipantaro by'umukara ndetse mo imbere yambaye n'ishati y'umweru, bafite impapuro kandi inyuma yabo hari igikuta gifite ibara ry'umuhondo.

Urujya n'uruza rw'abantu bicaye abandi barahagaze bambaye imyenda igiye itandukanye ndetse harimo abari mu ihema rifite ibara ry'umweru hirya yabo hari ibiti ndetse n'ipoto ijyana umuriro kandi hari n'inzu isakaje amabati.

Umwana uhagaze imbere hari uburakabiro, ari gukaraba intoki mu rwego rwo kugira ngo agire isuku n'ubuzima bwiza, yambara imyenda irimo ibara ry'ubururu, hirya ye hari ibiti by'amoko agiye atandukanye.

Abantu bahagaze k'umurongo w'imbere ndetse n'uw'inyuma, harimo umugore uri imbere wambaye ikanzu ifite ibara rya pinki, kandi inyuma yabo hari igikuta kiriho icyapa gifite ibara ry'ubururu n'umweru.

Abantu bari kuvoma amazi kuri robine harimo abafite indobo zifite ibara ry'umuhondo kandi harimo umugabo wambaye ingofero y'umuhondo, umupira w'amaboko ufite ibara ry'umukara ndetse n'ikabutura y'umweru.

Abagore bicaye mu nzu ifite inkuta zisize irangi ry'umweru kandi imbere yabo hari umugabo wambaye agapfukamuwa uri kubasobanurira, ari kwandika ku kibaho kandi hirya ye hari ameza ateretseho agacupa k'amazi ndetse ariho n'agatambaro karimo ibara ry'umweru n'ayandi. Ari kubasobanurira ku bigendanye n'ubuzima.

Umukobwa wicaye wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umweru n'ubururu. Kandi imbere ye hari undi muntu uhicaye wambaye ikanzu ifite ibara ry'umukara ndetse n'iherena ku gutwi kw'iburyo.

Abana bambaye udupi twamaboko magufiri dufite ibara ry'umuhondo, hari uri guseka ndetse arabuvuma mu mashyi mu mutwe we yambayemo igipapuro kirimo ibara ry'umweru, ndetse yegeranye n'undi ugifite mu kuboko kw'iburyo n'uw'ibumoso.

Umugabo uri hagati yamadarapo abiri, ku ruhande rwe rw'ibumoso, hari idarapa rifite ibara ry'ubururu n'umweru rya UNICEF, ndetse ku ruhande rw'iburyo hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, rifite ibara ry'ubururu, icyatsi, umuhondo.

Umukecuru ufite iminkanyari, yambaye ibitenge birimo amabara atandukanye, twavugamo ibara ry'icyatsi, umuhondo, umukara, mweru kandi inyuma ye hari umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru.

Abantu bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku ndetse inyuma yabo hari abandi bahagaze higanjemo abambaye udupira tw'amaboko magufi dufite ibara ry'umukara ndetse bari ku mapave hirya yabo hari ibiti n'ibyatsi.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse isize irangi ry'umweru kandi ifite amadirishya y'ibirahure ndetse mo imbere hari amatara ari kwaka, inyuma yayo hari ahantu hari ibyatsi harimo n'ibyapa bigiye bitandukanye.

Abantu bahagaze biganjemo abambaye udupira tw'amaboko magufi dufite ibara ry'ubururu, hari umugabo ubahagazemo hagati wambaye ipantaro y'umukara karuvati ndetse n'ishati ifite ibara ry'umweru.

Abantu bicaye ku ntebe, harimo umugore ufite telefone yambaye amaherena ndetse n'amarinete, imbere ye hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi kandi hariho n'amashakoshi, hari umugore uhagaze hagati yabo wambaye ikanzu y'umweru n'agakote k'amaboko magufi gafite ibara ry'umukara.

Abantu bahagaze ndetse n'abandi babicaye imbere, harimo umugore wambaye ikanzu ifite ibara ry'umutuku ndetse n'ikote ry'umukara ndetse mu bahagaze harimo umugabo wambaye ishati y'amaboko ifite ibara ry'ubururu, kandi inyuma yabo hari igikuta cyometseho icyapa kirimo amabara atandukanye hari n'iry'umutuku, umweru n'ayandi.

Umugore uri guseka, afite ibisuko ku mutwe yambaye ijire ifite ibara ry'umuhondo kandi inyuma ye hari akabati karimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo ibiri mu gacupa ndetse hari n'ibindi bigiye biri mu makarito.

Abantu bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku, harimo umugore ufite imisatsi, yambaye agapira gafite ibara ry'umweru n'ubururu, inyuma ye hari abasore bambaye udupira tw'amaboko magufi dufite ibara ry'umukara, kandi hirya yabo hari undi muntu uhahagaze wipfumbase.

Umugabo wicaye hasi aziritse amapingu ku maboko ye yombi, yambaye ikabutura y'umukara ndetse n'agapira k'amaboko magufi, inyuma ye hari abantu bahagaze harimo umugabo wambaye inkweto n'ipantaro by'umukara.

Umukecuru ufite iminkanyari ateze igitambaro gifite ibara ry'umweru mu mutwe, kandi yambaye iherena ku gutwi kw'iburyo ndetse mu ijosi harimo shanete ifite ibara ry'umweru, umuhondo n'ubururu.

Umukobwa uri guseka afite umusatsi w'umukara, yambaye umupira ufite ibara ry'umutuku ndetse mo imbere yambariyemo n'umwambaro ufite ibara ry'umukara, hirya ye hari urugi rwometseho impapuro kandi hari n'intebe ihateretse.

Umugore uteruye umwana, afite umusatsi w'umukara ndetse yambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, umwana yambaye agapira k'amaboko maremare, gafite ibara ry'umweru ndetse n'uturongo tw'umukara, inyuma yabo hari igkuta cyubakishije amatafari ahiye ndetse n'idirishya.

Abaganga bahagaze mu ihema rifite ibara ry'umweru bambaye imyenda igiye itandukanye harimo ifite ibara ry'umukara, umweru, kake n'ayandi, kandi imbere yabo hari ameza ateretseho ibintu byinshi bitandukanye ndetse ateguyeho agagatambaro gafite ibara ry'umukara.

Umugore uteze agatambaro mutwe gafite ibara ry'ubururu, aricaye ndetse yambaye umupira w'amaboko magufi akenye n'igitenge, iruhande rwe hari umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu, kandi imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umuhondo ateretseho n'agacupa k'amazi.

Umukecuru wicaye ahinnye amavi, akikijwe n'abana bamwe bitangiriye itama, harimo uwambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu ndetse hari n'undi wambaye umupira wo kwifubika udoze mu budodo mo imbere yambayemo ishati ifite ikora y'ibara ry'ubururu.

Umugabo wambaye imyenda icitse kandi afite imifuka y'amoko agiye atandukanye irimo ibintu bitandukanye, inyuma ye hari imodoka iri mu ibara ry'icyatsi, kandi uwo muntu biragaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe.

Abantu bicaye harimo umugore wambaye amarinete ndetse n'ikote rifite ibara ry'umutuku, kandi imbere yabo hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi ndetse na mudasobwa, hari umugore ufite ikaramu mu ntoki ifite ibara ry'ubururu.

Abantu bahagaze ku ma esikariye, harimo umugabo wambaye ikote rifite ibara risa n'ivu, kandi ku ruhande rw'iburyo, hari icyapa kirimo ibara ry'ubururu n'umweru, ndetse hari umugabo wambaye amarinete, ndetse n'ipantaro ya kake.

Abantu bicaye ndetse hagati hari abahagaze harimo umugore uteza agatambaro mu mutwe gafite ibara ry'umutuku, inyuma yabo hari icyapa kirimo ibara ry'icyatsi, umukara n'umweru ndetse bari mu nzu ifite igikuta gisize irange ry'umweru.

Abagabo babiri bafashe umuntu bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe kandi umwe yambaye ishati afite n'inkoni undi yambaye agapira kamwe kamaboko magufi kandi hirya yabo hari akana.

Abantu bicaye mu ntebe ziteye mu byatsi ndetse imbere yabo hari ameza. Hari abandi bicaye mu ihema rifite ibara ry'umweru n'icyatsi kandi hari umugabo uhagaze imbere yaryo, wambaye imyenda ifite ibara ry'umukara.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse yambaye ishati y'amaboko maremare irimo ibara ry'umutuku n'ubururu; ari gusuhukanya n'undi mugabo wambaye imyenda isa nabi yacikaguritse kandi hirya yabo hari igikuta gisize irangi rya beje.

Abantu bahagaze hari uwambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru kandi imbere y'abo hari ihema ririmo ibara ry'umweru n'ubururu ndetse inyuma y'ihema hari amatara ku mihanda hamwe n'ibiti.

Umugore wasamye ndetse iruhande rwe hari umuganga wambaye agapfukamuwa kandi yambaye itaburiya na ga zifite ibara ry'umweru. Ku kuboko kwe kw'ibumoso yambayeho agakoma gafite ibara ry'umutuku, umweru, icyatsi n'umukara.

Umusaza ufite imvi ndetse yambaye amarinete, kandi yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara risa n'ivu imbere ye hari indorerwamo kandi hari n'uburuso bufite ibara ry'umweru n'ubururu hamwe no gukarabiro.

Umuganga wicaye ku ntebe ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'amapine, yambaye itaburiya y'umweru kandi mu mufuka wayo harimo ikaramu. Ku kuboko kw'ibumoso yambayeho isaha inyuma ye hari igitanda kijyaho umurwayi gifite ibara ry'icyatsi ndetse n'igikuta giseze irangi ry'umuhondo ahagana hasi hariho irangi ry'umukara.

Umugabo uri guseka afite ubwanwa ndetse na n'amenyo y'umweru, mu biganza bye hazirikiyemo akagozi gafite ibara ry'umweru bakoresha boza amenyo kandi ku rutugu rwe rw'iburyo hari isume ifite ibara ry'umweru.

Umuntu uryamye ku gitanda mu cyumba kwa muganga ndetse yambaye agapira karimo ibara ry'umutuku iruhande rwe hari umuganga wambaye itabariya y'umweru ndetse n'agapfukamunwa kandi yambaye na ga mu ntoki ari kumukura amenyo.

Icyumba kirimo intebe zifite ibara rya oranje ndetse n'amapine, ku gikuta hari isaha ihamanitse, hejuru y'urugi hafite ibara rya shokora kandi inkuta zose zisize irangi ry'umweru.

Abana bari ku murongo, bambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu, uri imbere yazamuye ukuboko kw'iburyo, afashemo uburoso bufite ibara ry'umweru n'umuhondo kandi inyuma ye hari uri koza amenyo ufite uburoso bw'icyatsi, hamwe n'undi ufite uburoso, bufite ibara ry'ubururu.

Umuntu mukuru ndetse n'umwana bambaye imipira y'amaboko magufi ifite ibara ry'umweru, bose hari akadodo gato gafite ibara ry'umweru bakoresha boza amenyo, bakanyujijeje mu kanwa habo bari kukogesha amenyo.

Icyumba kirimo ibikoresho bikoreshwa kwa muganga, kandi gifite inzugi n'amadirishya y'ibirahure ndetse ashyizeho irangi ry'umweru, hari ibikuta bisize irangi ry'umweru, hejuru muri parafo harimo amatara ari kwaka.

Umusore n'umukobwa ufite imisatsi, bose bari kwireba mu ndererwamo kandi bambaye udupira tw'amaboko magufi dufite ibara ry'umweru. Umusore ku rutugu rwe rw'ibumoso, yashyizeho agatambaro gafite ibara ry'umweru kandi imbere yabo, hari ubukarabiro.

Umugore wasamye yambaye iherena ku gutwi kw'ibumoso, kandi hari umuganga umuri iruhande, uri kumukura amenyo wambaye ga zifite ibara ry'umweru ndetse n'ishati y'amaboko magufi.

Umukobwa urikoza amenyo yambaye agatambaro gafite ibara ry'umweru mu mutwe, ndetse afite umusatsi w'umukara. Kandi arikogesha uburoso bufite ibara ry'umweru n'ubururu. Yambaye n'isengeri ifite ibara ry'umweru.

Umukecuru ufite umusatsi urimo imvi kandi afite n'iminkanyari. Yarambuye amaboko, ku kuboko kwe kw'iburyo hariho agatambaro k'umweru kandi inyuma ye hari undi mugore wambaye isengeri n'iherena ku gutwi kw'ibumoso kandi inyuma yabo hari ibiti.

Umusaza wicaye, yambaye amarinete kandi afite n'imvi, yambaye agapira k'amaboko magufi, iruhande rwe rw'iburyo hari umuganga ufite imisatsi miremire, wambaye agashati k'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu kandi inyuma ye hari undi muntu uhicaye wambaye ishati y'umweru.

Umukecuru wambaye shanete mu ijosi kandi mu kuboko kwe kw'iburyo afashemo inkoni, iruhande rwe rw'ibumoso hari umugabo bahuje imitwe ufite ubwanwa wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'ubururu.

Umukecuru wambaye amaherena ku matwi ye yombi kandi afite imvi. Yambaye umupira ufite ibara ry'umukara, iruhande rwe rw'iburyo hari umukobwa ufite imisatsi uri guseka ndetse yambaye agapira k'amaboko magufi kandi afashe ku kuboko kw'iburyo k'uwo mukecuru.

Umukecuru ufite imvi ari guseka ndetse yambaye iherena ku gutwi kwe kw'iburyo, yarambuye amaboko ndetse imbere ye hari umukobwa ufite imisatsi miremire igera mu mugongo, yamufashe ku kuboko kw'iburyo.

Abantu bahagaze hagati mu byatsi by'amoko atandukanye ndetse harimo umugabo wambaye ikanzu ifite ibara ry'umweru, n'umugore wambaye ikanzu wazamuye ukuboko ifite ibara ry'umuhondo harimo n'umutuku, inyuma yabo hari ibiti.

Umuryango wishimye wicaye ku ntebe zifite ibara ry'icyatsi, ndetse harimo abakuze ndetse n'umwana muto uri guseka, kandi inyuma yabo hari indabo z'amoko atandukanye, hejuru muri purafo harimo itarajya riri kwaka.

Abagore bicaye mu isoko bambaye ibitenge biri mu mabara atandukanye, imbere yabo hari inyanya ziri mu bikarito kandi inyuma yaho hari ubwoko bwinshi bugiye butandukanye bwi'mbuto, muri bo hari umukecuru ufite umusatsi urimo imvi wambaye shanete mu ijosi ndetse n'udukomo ku maboko.

Umukecuru ufite imvi, yambaye amaherena ku matwi ndetse n'ishati ifite ibara ry'umweru. Inyuma ye hari umwana w'umukobwa uri guseka, afite umusatsi w'umukara yafungiye inyuma, kandi yambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'icyatsi n'umweru.

Umugabo uri guseka, biragaragara ko akuze, afite imvi kandi yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu. Iruhande rwe hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'imisatsi miremire. Ari kumutoza uko yakomeza imitsi ye y'amaboko.

Umugore ufite umusatsi urimo imvi, yambaye agapira k'amaboko magufi, ndetse yambaye n'isaha ku kuboko kw'ibumoso, iruhande rwe hari umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara risa n'ivu, kandi ku kuboko kw'ibumoso yambaye isaha n'impeta.

Umusaza uryamye afite imvi kandi yambaye agapira gafite ibara ry'umweru, ikiganza cye cyo ku kuboko kw'iburyo yagishyize ku nda kandi hirya ye hari umuganga uhahagaze wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru.

Abagore batatu bari guseka bose bafite imisatsi irimo imvi, urimo hagati yambaye iherena ku gutwi ndetse yambaye n'umupira ufite ibara ry'umuhondo, afite terefone mu ntoki kandi inyuma y'abo hari ibiti.

Abantu bari mu muhanda, harimo umugore wambaye amarinete ndetse yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara risa n'ivu. Iruhande rwe rw'iburyo hari undi mugore wambaye agapira gafite ibara ry'umweru n'ubururu, kandi hirya yabo hari ibyatsi, inyuma yabo hari umugabo wambaye imyenda y'imikara.

Umugabo ufite imvi yicaye mu kagari k'abafite ubumuga ndetse yambaye umupira w'amaboko ufite ibara rya kake. Inyuma ye hari umuganga uri kumusunikira akagare, kandi hirya yabo hari abandi bantu bicaye ku ntebe.

Umusaza ufite umusatsi urimo imvi ndetse yabyambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara rya beje n'ipantaro y'umukara, hari umuntu umuri mbere ufashe umugozi bari gukurura wambaye agapira gafite ibara risa n'ivu ka maboko magufi kandi inyuma y'uwo musaza hari akabati.

Umusaza uri guseka afite imvi kandi yambaye amarinete ndetse n'umupira w'amaboko maremare, yicaye mu kagare k'abafite ubumuga kandi inyuma ye hari umwana w'umukobwa uri ku kamusunikira, wambaye agapira k'amaboko magufi ndetse hirya yabo hari ibyatsi n'ibiti.

Umugabo wicaye ku buriri bushasheho amashuka y'umweru, yambaye amarinete, ndetse n'ishati ifite ibara ry'ubururu, hejuru ye hari supa nete ihamanitse, kandi ku kuboko kwe kw'ibumoso gufashwaho n'umugore ufite imisatsi miremire wunamye, kandi hirya yabo hari idirishya ry'ibirahure.

Abantu bicaye mu ihema rifite ibara ry'umweru, umukara, icyatsi ndetse hari n'akagozi kaziritse k'umuhondo, hari umugore wambaye ijire ndetse n'ikanzu ifite ibara ry'umukara kandi hari n'umugabo uri kuri terefone.

Umugore wicaye yahuje ibiganza kandi yambaye udukomo ku maboko ye yombi. Iruhande rwe rw'ibumoso hari undi uhicaye akikiye umwana ndetse hari n'abandi babahagaze inyuma, hirya mu nguni hari indobo ifite ibara ry'ubururu ipfundikishije n'umupfundikizo w'umukara.

Abaganga babiri bambaye udupfukamunwa ndetse n'imyenda ifite ibara ry'ubururu, hari uwunamye wambaye ga mu ntoki ari kureba mu kanwa k'umugabo wicaye ku ntebe y'umutuku yambaye imyenda y'umukara ndetse n'ingofero ifite ibara ry'ubururu, hirya yabo hari abantu bahagaze.

Abantu bahagaze bambaye udupfukamunwa ndetse bambaye n'imyenda ifite ibara ry'umweru, inyuma yabo hari undi muntu wambaye imyenda ifite ibara rya move kandi hirya ye, hari urugi rusize irangi ry'icyatsi.

Umugore n'umugabo bahagaze, umugabo yambaye isaha ndetse n'imitako kuboko kw'iburyo kandi mu ijosi yambayemo shanete, umugore yambaye amaherena, bombi bafashe mu biganza icyapa cyanditseho amagambo yo mu rurimi rw'Ikinyarwanda avuga ngo twisuzumishe igituntu kiravugwa kigakira, inyuma yabo iburyo n'ibumoso hari amadapo atandukanye.

Abantu bicaye mu ntebe zifite ibara ry'umutuku kandi hari n'abandi babicaye imbere, harimo umugore uri ku ruhande rw'ibumoso wambaye ipantaro y'umweru n'ikote ry'umukara ndetse harimo umugabo wambaye imyenda ifite ibara ry'umukara, karuvati y'ubururu, ku kuboko kw'ibumoso yambayeho isaha.

Abaganga bambaye amataburiya y'umweru, ndetse imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'icyatsi, hari n'abandi baganga bambaye udupfukamunwa n'udufire mu mutwe, kandi ahagana hasi hari umuntu wunamye, wambaye ingofero ya kaki uri gupfura ibyatsi.

Abantu bicaye harimo umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'umuhondo, kandi harimo n'umusaza wambaye amarinete ari kuvuga imbere ye hari mudasobwa, iruhande rwe rw'iburyo hari umugabo uhicaye wambaye kositimu kandi imbere yabo hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi.

Abantu bicaye ku ntebe z'umutuku, imbere yabo hari umugabo wambaye ikote ry'umukara n'ipantaro' yumukara kandi afite mikoro, ari kugira ibyo abasobanurira. Hari umugabo imbere ye hateretse mudasobwa ndetse inyuma yabo hari ibikuta.

Abantu bahagaze kuri tapi ifite ibara ry'icyatsi inyuma yabo hari ibyapa birimo ibara ry'umutuku, umweru, n'ayandi kandi ku ruhande rw'ibumoso hari umugore uhagaze wambaye inkweto z'umukara, amasogisi. n'ikanzu y'umweru.

Abagore n'abagabo bicaye, ndetse hari n'abandi bahagaze. Kandi ku ruhande rw'iburyo hari idarapo rifite ibara ry'icyatsi, ndetse urw'ibumoso hari irifite ibara ry'ubururu. Inyuma yabo hari igikuta kiriho icyapa kirimo amabara y'icyatsi n'umweru.

Ababikira batatu bateze udutambaro tw'umweru mu mutwe kandi bose bambaye amarinete, hari uwahuje ikiganza n'umugabo wambaye ikositimu ifite ibara risa n'ivu ndetse n'ishati y'umweru mo imbere kandi ku kuboko kw'ibumoso yambayeho isaha hamwe n'impeta.

Abantu bahagaze harimo umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umuhondo ndetse n'umugabo wambaye ishati y'umutuku n'ikote ry'umukara. Inyuma yabo hari icyapa kirimo ibara ry'ubururu ndetse harimo amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umweru.

Abantu bicaye ku ntebe z'umweru ndetse n'abandi bahagaze bambaye udupira twiganjemo udufite ibara rya pinki, ndetse hari umugore wambaye ibitenge ndetse n'agapfukamunwa yegereye ameza ariho agatambaro k'umweru.

Abantu bicaye harimo umugore wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'umweru, inyuma yabo hari abandi benshi bahagaze kandi iburyo n'ibumoso bwabo hari ibyapa bigiye bitandukanye.

Abantu bicaye, harimo abambaye udupira dufite ibara ry'umukara ndetse hari n'abambaye utw'umweru, hari umugore wambaye amarinete ndetse n'umupira ufite ibara ry'icyatsi, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa.

Umugore n'umugabo bambaye amapantaro afite ibara rya kake kandi bose bafite ibyapa mu biganza byabo, inyuma yabo hari intebe zifite ibara ry'umweru, kandi hari n'icyapa kiriho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Abantu bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku, harimo umugabo wicaye ku ruhande rw'ibumoso, wambaye kositime zifite ibara risa n'ivu, wageretse ukuguru ku kundi, kandi mo imbere yambayemo ishati y'umweru na karuvati y'ubururu ndetse yegeranye n'undi mugabo wambaye ipantaro y'umukara.

Inzu isakarishije amabati y'umutuku kandi yubakishije amatafari ahiye, hari ifite inzugi zisize irange ry'ubururu ndetse iruhande rwayo hari indi ifite inzugi n'amadirishya bisize irange ry'umweru, hagati yazo harimo ikigega kinini cy'umukara kandi hari n'ubusitani burimo indabo n'ibyatsi.

Icyumba kirimo parafo ndetse n'amatara yaka ibara ry'umweru, hejuru ku nzugi hari irangi rihasize rifite ibara ry'umuhondo kandi inzugi zisize irangi rifite ibara risa n'ivu ndetse ziriho n'ibirahure.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse, ifite inzugi n'amadirishya by'ibirahure, kandi isize irangi ry'umweru, mu ibaraza ryayo hari imodoka ihaparitse, kandi imbere yayo hari ubusitani burimo indabo n'ibyatsi.

Icyumba kirimo ibitanda bifite ibara ry'umweru kandi hamanitsemo amarido hagati yabyo afite ibara ry'ubururu. Hari supaneti kandi hirya hari amadirishya y'ibirahure, n'amatara ari kwaka hejuru y'ibitanda.

Inyubako yo kwa muganga isize amarangi atandukanye ndetse ifite ibaraza muri ryo hateretsemo intebe zifite ibara ry'umutuku kandi hari amadirishya n'inzugi z'ibirahure imbere yayo hari ibiti n'ubusitani.

Akabati gasize irangi ry'umweru ndetse n'irisa n'ivu, karimo udukarito duto twinshi turimo amabara atandukanye ndetse hari udufite ibara ry'umweru turimo icyatsi, umutuku n'ayandi.

Inyubako isakarishije amabati afite ibara rya kaki kandi ifite inzugi n'amadirishya y'ibirahure, imbere yayo hari ubusitani burimo ibyatsi ndetse n'indabo, kandi hari itara ryo ku muhanda rihari.

Inzu zisakarishije amabati y'ubururu, zisize irangi ry'umweru kandi hari iyubakishije amatafari ahiye ndetse zifite fondasiyo zubakishije amabuye. Mu ibaraza ry'iyo nzu hari umugabo wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru wakoze mu mufuka wayo.

Icyumba kirimo ibitanda bifite amapine ndetse bishasheho amashuka afite ibara ry'umweru n'ubururu, hejuru muri purafo harimo amatara ari kwaka umweru kandi hari amarido afite ibara ry'umweru.

Icyumba kirimo ibitanda ndetse inkuta zisize irangi ry'umweru, ubururu n'icyatsi, kandi gifite inzugi zifite ibara rya kake, hejuru muri parafo harimo amatara ari kwaka ibara ry'umweru.

Icyumba kirimo amakaro ndetse hejuru muri parafo harimo amatara yaka ibara ry'umweru kandi kirimo na kamera. Hari intebe zifite ibara ry'ubururu juru ndetse n'izindi zifite ibara risa n'ivu.

Abantu bicaye mu cyumba ndetse hari umugore uhagaze wambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, afashe ku ntebe yicayeho umugabo ndetse uwo mugabo imbere ye ameza ari kwandikiraho.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo utubati tw'ibyuma, tugiye turimo imiti n'ibindi bikoresho byinshi bikoreshwa kwa muganga, bigiye biri mu mabara atandukanye. Hari ibiri mu ibara ry'ubururu, icyatsi, umweru, move, n'ayandi.

Inzu isize amarangi atandukanye harimo iry'umweru kandi hari ahantu handitse ijambo Afurika ndetse imbere yayo hari indabo n'ubusitani kandi ifite amadirishya n'inzugi z'ibirahure.

Icyumba cyo kwa muganga bavuriramo abarwayi, harimo umuntu uryamye ku gitanda, kandi iruhande rwe hahagaze umuganga, wambaye itaburiya ifite ibara ry'ubururu, ndetse hirya yabo hari igikuta n'ibindi bikoresho byo kwa muganga. Bakoresha bavura.

Icyumba kinini kirimo ibitanda bifite ibara ry'umweru n'ubururu biri ku murongo, hejuru muri purafo hamanitsemo supanete, kandi hari n'amarido afite ibara ry'ubururu, ku nkuta hasize irange ry'umweru, hari amadirishya y'ibirahure ndetse n'abantu bahagaze muri icyo cyumba.

Umugore ufite ibisuko bifungiye inyuma ndetse yambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, ari kugenda hirya ye hari abandi bafatanye mu biganza bambaye amataburiya y'amaboko magufi afite ibara ry'umweru, kandi hejuru muri prafo hari amatara ari kwaka umweru, hari igikuta gisize irangi ry'umweru.

Umuganga wunamye yafashe k'umurwayi uryamye ku gitanda, yambaye itaburiya y'amaboko magufi ifite ibara ry'umweru kandi harimo n'uturongo tw'ibara rya beje, yambaye agakomo ku kuboko kw'ibumoso kandi inyuma ye hari igikuta gifite ibara ry'umweru.

Icyumba kirimo intebe zibajije mu biti kandi harimo imisego ifite ibara risa n'ivu hari ameza ari mu mabara atandukanye kandi hari ivaze iri mu nguni irimo igiti gifite ibibabi by'icyatsi. Hari n'akandi gatoya gateretse hejuru y'ameza.

Umuganga wambaye itaburiya y'amaboko magufi ifite ibara ry'umweru ndetse yambaye iherena ku gutwi kandi afite ibisuko yafungiye hejuru. Mu ntoki zi afitemo ikaramu ndetse n'ikayi ari kwandikaho, imbere ye hari umugore uhicaye uteze agatambaro mu mutwe, wambaye agakomo ku kuboko kw'ibumoso. Inyuma ye hari undi muganga uhahagaze wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu.

Icyumba kirimo amatara ari hejuru muri parafo yaka ibara ry'umweru, ndetse harimo na kamera, gifite inzugi n'amadirishya y'ibirahure kandi ibikuta byacyo bisize irangi ry'umweru.

Inzu yubatse ku buryo bugeretse isize irangi ry'umweru, kandi hamwe hubakishije amatafari ahiye, ifite inzugi n'amadirishya y'ibirahure, kandi imbere yayo haparitse imodoka, ndetse hari igipangu cyubakishije ibyuma, hamwe n'ibiti biri hafi yacyo.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse ifite idirishya ry'ibirahure risize irangi ry'umweru, mu ibaraza ryayo harimo abantu bahicaye, hari umusaza wicayemo wambaye ingofero ifite ibara rya kake ndetse n'imodoka iparitse imbere y'iyi nyubako.

Inzu zisakaje amabati y'umutuku ndetse zisize irangi ry'umweru, amadirishya yazo n'inzugi ni ibirahure, kandi hari akayira kubabakishije amapave, imbere y'izo nyubako hari n'ubusitani.

Umugore wambaye agasengeri gafite ibara rya move ndetse kariho ibara ry'umweru. Akikiye uruhinja rwambaye ingofero ndetse iruhande rwabo, hari umuganga wunamye, wambaye agapfukamuwa n'amarinete ndetse n'agafire mu mutwe kandi yambaye itaburiya y'amaboko magufi ifite ibara ry'umweru.

Inyubako zubatswe ku buryo bufatanye kandi zisize amarangi agiye atandukanye, harimo: iry'umweru, oranje, n'ubururu. Imbere yazo hari ubusitani burimo indabo ibyatsi ndetse hari n'amatara yo ku mihanda ari imbere yazo.

Inyubako yo kwa muganga yubakishije amatafari ahiye ndetse isakarishije amabati afite ibara ry'ubururu, iruhande rwayo hari ibiti hamwe n'ubusitani kandi hari n'agahanda k'amabuye karimo icyapa kiri mu ibara ry'umweru n'ubururu.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse ifite amadirishya y'ibirahure kandi hari ibikuta bisize irangi risa n'ivu ndetse birimo n'imyenge, imbere yayo hari ibiti bifite amababi y'icyatsi kandi hari amagambo yanditse imbere ari mu ibara rya orange yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Ibitanda biri ku murongo ndetse bifite n'amapine hari ikiryamyeho umuntu wiyoroshe ishuka y'umweru, kandi hari n'ikindi kiryamyeho uwiyoronshe ishuka y'ubururu hirya hari ibikuta bisize irangi ry'umuhondo kandi bifite amadirishya y'ibirahure hejuru hari supanete zihamanitse.

Icyumba kirimo amatara yaka umweru kandi harimo ibitanda biri ku murongo bifite ibara ry'ubururu, hari inkuta ziho irangi ry'umweru kandi harimo uturongo Tw'irangi ry'ubururu n'umutuku ndetse gifite amadirishya y'ibirahuri.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ndetse idirishya rifite ibirahure kandi risize irangi ry'umweru, hari abantu bicaye mu ntebe iri mu ibaraza ryayo kandi imbere yaho hari indabo.

Inyubako zisakaje amabati y'umutuku kandi zisize irange rya beje, zifite inzugi n'amadirishya y'ibirahure kandi imbere yazo hari imodoka zihaparitse zitandukanye ndetse n'umumotari uri kuri moto n'abantu bahahagaze.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse, isize irangi ry'umweru kandi isakaje amabati hari ahari irangi ry'umuhondo ndetse n'icyapa cyanditseho "Ikigonderabuzima cya nyaruyenzi", mu ibaraza ryayo harimo abantu bahagaze kandi hari umugore uhetse umwana.

Inzu zisize amarangi afite ibara ry'umweru, inzugi zayo n'amadirishya, harimo ibirahuri ndetse hagati yazo, harimo ubusitani burimo n'abantu, n'akayira k'amapave. Hari abantu bicaye ndetse hari n'umusaza uhagaze imbere yabo wambaye ishati y'umweru, ingofero, n'ikote ry'umukara.

Umuganga wicaye, afite ibisuko yafungiye hejuru kandi mu biganza bye afashemo ikaye n'ikaramu ari kwandika. Imbere ye hari ameza ndetse n'umugore wambaye amaherena, hamwe n'agakomo ku kuboko kw'ibumoso, n'agapira k'amaboko magufi. Inyuma y'uwo muganga, hari undi wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu.

Porotaye ikinguye, mu imbere harimo inyubako zisakarishije amabati y'ubururu ndetse hari n'amadirishya y'ibirahure kandi mu ibaraza ry'iyo nyubako harimo abantu ndetse isize irangi rifite ibara rya beje, inyuma y'igipangu hari umugore uhahagaze uhetse umwana kandi hari n'ibyatsi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda biri ku murongo byiganjemo ibara ry'umweru n'ubururu, kandi hirya yabyo hari igikuta, kandi hari n'amadirishya afite ibirahure.

Abantu bicaye, harimo umugore uhetse umwana uteze mu mutwe igitenge kirimo ibara ry'umukara, icyatsi n'umweru. Imbere yabo, hari inkuta zubakishije amatafari ahiye, zometseho impapuro nyinshi zigiye zitandukanye.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse, isize amarange agiye atandukanye, hari ahari irange ry'umweru kandi ifite amadirishya n'inzugi zifite ibirahure ndetse zisize irange ry'ubururu, hari imodoka iparitse imbere yayo hamwe n'ubusitani.

Igikuta cyubakishije amatafari ahiye ndetse hariho n'idirishya ry'ibirahure risize irangi ry'umweru, hejuru yaryo hariho amagambo yanditse avuga ngo isange wane sitopu senta aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ndetse ifite inzugi n'amadirishya birimo ibirahure kandi bisize irangi ry'umweru, hari umugore uhagaze imbere y'ameza ariho igitambaro gifite ibara rya kage ndetse n'abandi bantu bicaye, hirya yabo hari ibyatsi hamwe n'ikigega.

Ibitaro bya Kabgayi mo imbere harimo amazu yubakishije amatafari ahiye ndetse asakarishije amabati, harimo n'umuntu uri kugenda ku igare uhetse ibintu inyuma kandi harimo n'amatara.

Umugabo wicaye yegamye yambaye agapira k'amaboko magufi ndetse n'ingofero y'umukara afite telefone mu ntoki yambaye ipantaro kandi imbere ye hari ameza atetseho ivase irimo ururabo hirya hari undi mugabo uhagaze wambaye ipantaro y'umukara kandi ku gikuta hariho isaha.

Inzu isakarishije amabati kandi yubakishije amatafari ahiye, ifite inzugi n'amadirishya y'ibirahure kandi asizeho irangi ry'umweru, hari ibyatsi ndetse n'icyapa kiri hafi y'inzira.

Inyubako yo kwa muganga ifite amadirishya n'inzugi z'ibirahure kandi hagiye hasize amarangi atandukanye. Hari inkuta zisize irangi ry'umweru ahagana hasi risize irangi ry'umukara kandi harimo n'ibyuma by'amoko atandukanye bikoreshwa kwa muganga.

Umuryango munini w'inyubako yo kwa muganga, isakarishije amabati afite ibara ry'icyatsi ndetse isize irangi ry'umweru n'amadirishya y'ibirahure, kandi inyuma yayo hari umugore uhari uhahagaze ahetse umwana ndetse inyuma ye hari ibyatsi.

Icyumba kirimo parafo hejuru hari amatara yaka ibara ry'umweru, ndetse inkuta zisize irangi ry'umweru kandi hari ivase iteretse mu nguni irimo ururabo rufite amababi y'icyatsi.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse isize amarangi agiye atandukanye; hari ahubakishije amatafari ahiye kandi ifite inzugi n'amadirishya y'ibirahure, hari abagabo bahagaze mu mapave ndetse n'imodoka iparitse iruhande rwabo.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse iseze irange ry'umweru, ifite inzugi n'amadirishya y'ibirahure kandi arimo na giriyaje ndetse isakaje amabati y'ubururu, imbere hari amagambo yanditseho avuga ngo ikigo nderabuzima cya Kanyinya ndetse hari idarapo rifite ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi kandi hari n'ubusitani.

Ibinini by'ubwoko bugiye butandukanye kandi bifite amabara atandukanye, hari ibifite ibara ry'umweru, umuhondo, beje ndetse na oranje kandi hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umweru.

Umukobwa wambaye bisitiri ifite ibara rya oranje, kandi yambaye ekuteri mu matwi zifite umugozi w'umweru, yazamuye amaboko ye yose ayahuriza hejuru y'umutwe, kandi ku kuboko kwe kw'ibumoso yambayeho isaha.

Umugabo ufite ubwoya ku maboko ndetse yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umweru, ukuboko kwe kw'ibumoso gufashe ku kw'iburyo yarambuye kandi kunariho, igitambaro gifite ibara ry'umweru n'ubururu.

Umuntu uryamye ku gitanda gifite ibara ry'ubururu ukuboko kw'ibumoso yakurambuye, ukw'iburyo kurazamuye gufashwe n'ibyuma kandi hari umuganga umwegereye wambaye itaburiya y’amaboko magufi ifite ibara ry'umweru, hirya ye hari abandi bantu bahagaze harimo abagabo bambaye ikositimu.

Abantu babiri bari muri siporo bombi bafite uducupa, ndetse hari umugore wambaye isengeri y'ubururu, yambaye n'ikabutura y'umukara, kandi ku ruhande rwe rw'iburyo, hari umugabo wambaye isengeri, ndetse n'agakora gafite ibara ry'icyatsi mo imbere.

Abana bari gukina hari uwasimbutse afunga igipfunsi cyo ku kuboko kw'iburyo, ndetse yambaye inkweto zifite ibara ry'ubururu. Hirya ye hari undi ufite balo yazamuye hejuru, kandi hari n'undi mwana begeranye wambaye isengeri ifite ibara ry'umukara.

Umugabo uhagaze mu kibuga, afite baro mu kuboko kw'ibumoso kandi hari n'undi ari kugenda afashe ku byuma biriho amapine, wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umuhondo. Hirya yabo hari ibyatsi ndetse n'indabo.

Abaganga bicaye imbere yabo hari ameza ariho mudasobwa kandi hari n'abandi bahagaze bambaye imyenda ifite amabara atandukanye harimo umugabo wambaye kositime ifite ibara risa n'ivu na karuvate y'ubururu mo imbere ndetse n'ishati y'umweru, hirya yabo hari umuryango ukinguye uriho urugi rufite ibirahure.

Igikapu gifite ibara ry'umukara n'umutuku, ndetse kiriho imashini, hamwe harafunze ahandi harafunguye, harimo imiti igiye itandukanye ikoreshwa kwa muganga, ndetse n'udukarito dutoya turimo ibinini.

Umugabo uhagaze yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'icyatsi ndetse mu kiganza cye cy'ibumoso afashemo baron ifite ibara ry'ubururu ndetse n'ahandi hariho ibara risa n'ivu handitseho umubare kane.

Umuntu warambuye ukuguru kw'iburyo, ukw'ibumoso yaguhinnye ndetse yashyizeho ibiganza byombi afatishaho agatambaro gafite ibara ry'ubururu ndetse yahinnye n'ipantaro.

Umugabo wirabura wambaye agapira gafite ibara ry'umukara k'amaboko magufi, ndetse mu kuboko kwe kw'iburyo afashemo icupa ry'amazi, arirekunywa, inyuma ye hari ibyatsi ndetse n'ibiti.

Umugabo wicaye yambaye agapira k'amaboko magufi karimo ibara ry'umukara ndetse n'uturongo tw'umweru, iruhande rwe rw'ibumoso hari umuntu wunamye wambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso n'ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'ubururu.

Umugabo ufite ubwanwa yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara risa n'ivu kandi mu matwi ye harimo ekuteri zifite umushumi w'ibara ry'umweru mu kiganza cye cy'ibumoso afashemo icupa ry'amazi ari kuyanywa.

Abantu bahagaze ahantu hari amapave, bari gukora siporo kandi bambaye imyenda y'ubwoko bugiye butandukanye, hirya yabo hari ibiti byinshi by'amoko atandukanye ndetse muri bo harimo umugore wambaye kola y'umukara n'inkweto zifite ibara ry'ubururu n'umweru hamwe n'amasengeri.

Umugore wicaye ku ntebe y'umukara ndetse yambaye ijire ifite ibara ry'ubururu n'umweru, imbere ye hari ameza ateretseho agacupa kandi hari umwana umuri iruhande yafashe ku mutwe n'ukuboko kw'ibumoso.

Umuganga uhagaze yambaye itabura y'amaboko ifite ibara ry'umweru ndetse hari igikuta gisize irangi ry'umweru, ahagana hasi hari iry'umukara hometseho kizimyamoto ifite ibara ry'umutuku n'umukara ndetse n'umweru.

Umugabo wambaye isengeri aricaye kandi amaboko ye yombi yayazamuye ayashyira ku mutwe aba ariho ayahuriza, mu kwaha afitemo incakwaha kandi yambaye n'ikabutura.

Isahane y'umweru, ifite ishusho nk'iy'umutima. Iteretseho imbuto, harimo uruyanya rw'umutuku, igitunguru kandi hirya yayo hari umugozi bakoresha basimbuka mu gihe bari muri siporo, ufite ibara ry'umukara n'umuhondo.

Umusore usutse direde, yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umukara na kora, ndetse ku kuboko kwe kw'ibumoso hariho udukomo twinshi, ari muri siporo ahantu hari tapi y'icyatsi.

Bimwe mu bikoresho ndetse n'imiti yifashishwa mu gihe umuntu ari gukora siporo, harimo iri mu ducupa ndetse n'indi iri mu dukarito tugiye dutandukanye, hari ifite ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'iyindi.

Umukobwa ufite ibisuko ku mutwe, yambaye isengeri ndetse ukuboko kwe kw'ibumoso yaguhiniye hejuru agukoza mu bitugu, ukw'iburyo agukoza ku nkokora yo ku kuboko kw'ibumoso.

Umuganga wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru y'amaboko maremare ndetse yambaye karuvati irimo amabara agiye atandukanye, harimo ibara ry'ubururu, beje, umutuku na kaki kandi yambaye ishati ifite ikora mo ibere.

Umubikira wambaye ikanzu ifite ibara risa n'ivu ndetse ateze agatambaro mu mutwe gafite ibara ry'umweru. Iruhanderwe hari umwana wicaye ku mukeka kandi hirya yabo hari ibitambaro bifite ibara ry'umweru, ubururu n'umuhondo.

Umusore wambaye iherena ku gutwi aryamye ku buriri yubitse inda, yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umuhondo kandi ku kuboko kwe kw'iburyo hariho tatuwaje ndetse hari umuzungu umuri iruhande wambaye ingofero ifite ibara ry'umukara.

Imiti ya Kinyarwanda ikoreshwa mu kuvura indwara ndetse imwe iri mu dukarita tugiye dutandukanye, hari ishushanyijeho igikakarubamba iri mu gakarito gafite ibara ry'umweru ndetse gapfundikije umupfundikizo wa oranje.

Akabati kanini gafite ibara ry'umweru, kagiye karimo imiti igiye itandukanye kandi ifite amabara atandukanye, hari ipfundikije imipfundikizo y'umweru, ifite ibara ry'umuhondo ndetse hari n'icupa rifite ibara ry'umweru ripfundikije umupfundikizo w'umutuku.

Imiti ya Kinyarwanda usanga inshuro nyinshi iba ifite ibara ry'icyatsi, ikoreshwa mu kuvura indwara kandi rimwe na rimwe barayisabika, ubundi bakayotsa ndetse ikagira umumaro mu gukiza indwara.

Abantu bari kugenda bahetse ibikapu bigiye bifite amabara atandukanye harimo icy'ubururu, umutuku, umukara umuhondo n'ibindi, imbere yabo hari amazi ari gushoka aturutse ku musozi kandi hari ibihuru byinshi n'amabuye.

Imiti gakondo igiye iri mu dukarito, dufite ibara ry'umuhondo ndetse hashushanyijeho igikakarubamba gifite ibara ry'icyatsi n'ibipfundikizo yatwo y'ibara rya shokora.

Imiti gakondo igiye irimo amoko atandukanye: hari ifite imizi ,hari iy'ibibabi ndetse hari n'iy'inyamaswa zigiye zitandukanye.

Udukarito n'amacupa bigiye bitandukanye hari icupa rifite umupfundikizo w'umukara kandi hari n'irindi rigufi rifite ibara ry'umweru ndetse hari udukata tubiri dushushanyijeho igikakarubamba kanmwe gafite umupfundikizo ufite ibara rya orange.

Imiti ya kinyarwanda iri mu moko atandukanye yiganjemo ifite ibara ry'icyatsi ikoreshwa mu guvura indwara kandi imwe bayisiga ku ruhu indi bakayinywa mu mazi, kandi imwe barayisabika indi bakayotsa.

Akabati gasize irangi ry'umweru karimo amacupa agiye atandukanye, hari afite imipfundikizo ifite ibara ry'umuhondo, kandi hari n'icupa rifite ibara ry'umweru ripfundikije umupfunikizo ufite ibara ry'umutuku, ndetse hari n'undi mupfundikizo upfundikiye icupa ufite ibara rya oranje.